Inyubako zubatse neza, zubakishije amatafari ahiye, amadirishya yazo ndetse n'inzugi zazo zimeze neza, ikindi kandi abantu batatu, bahagaze imbere yaho, bari kwifotoza, zagenewe kwigirwamo, iri ni ishuri ribanza.

Amashuri yo kwigirwamo yubatse neza, asize amarangi ameze neza, afite amakaro y'umweru agezweho, ikindi kandi amashuri aba meza kuko atuma abantu bajijuka.

Inzu yubatse neza izsiz amarange asa n'umweru, ikindi kandi ifite amadirishya n'inzugi bisize amarangi asa n'ubururu, hasi hasizemo amakaro, ifite na kizimyamyoto mo imbere.

Amashuri yo kwigirwamo yubatse neza, afite umuryango umeze neza, amadirishya y'ayo ameze neza asize amarangi ameze neza kandi arafunze ,ntabwo umuyaga waza ngo ugire icyo utwara ayo madirishya.

Inyubako y'amashuri yo kwigiramo, yubatse neza, ifite ahantu ho kubika ibikoresho, hubatse ku buryo bugezweho, akabati kayo kameze neza.

Umuntu wogoshaga imisatsi z'abantu akoresheje imashini za kizungu，uburinganire ni bwiza， kera abagabo nibo bogoshaga ariko ubu， n'abagore nabo baragoshaga.

Intebe nyinshi zibaje neza zo ku mashuri zirasa neza cane, ikindi kandi zifite n'ameza gameze neza nasheze yo kwicaraho imeze neza cane.

Icyumba cyubatse neza. Kirimo abanyeshuri batandukanye bari kwiga ibijyanye n'ibyikoranabuhanga. Buri munyeshuri yicaranye mudasobwa imbere ye.

Abanyeshuri bari kwiga imashini zidoda imyenda y'abantu. Ikindi kandi, imashini zigira akamaro kuko zituma uzikoresha abona amafaranga, agakemura ibibazo bitandukanye agiye afite.

Sale irimo abanyeshuri batandukanye, harimo abahungu ndetse n'abakobwa bari kwiga ibintu bijyanye nko gukanika ibyuma, bafite umwarimu uri kubigisha, buri wese afite ibyo ari kugenda yitegereza, kugira ngo abigiremo ubumenyi burambuye.

Inzu yubatse neza, irimo amakaro, ikindi kandi harimo abarimu, ndetse n'abanyeshuri bafite amakayayi n'amakaramu, bari kwandika, ibyo mwarimu agenda ababwira, bambaye n'amataburiya ari gusa ndetse n'umweru.